Ikigo cy'amashuri aho tubona imiryango igera kuri itatu ndetse ku idirishya hahagaze umuntu ufite ikote wambaye ipantaro itukura kandi imbere y'ishuri hari umurima bigaragara nkaho uhinze.

Abanyeshuri bari muri jaride irimo ibyatsi byinshi, bambaye impuzankano z'ibigo byabo, bambaye udupfukamunwa bigaragara yuko bubahirije amabwiriza yo kwirinda icyorezo ndetse bari kumwe n'ushinzwe umutekano bigaragara yuko bari ku zuba kubera yuko ibicucucucu byabo bigaragara.

Ni abanyeshuri benshi nkuko bigaragara bicaye mu ishuri biteretse mudasobwa imbere yabo, bambaye impuzankano ndetse bambaye udupfukamunwa bigaragara yuko bashaka kwirinda icyorezo

Abanyeshuri batatu bari mu kazu ubona yuko gatwikiriye kandi bigaragara yuko ari ahantu bakarabira. Iruhande rwabo hariyo umuntu ubahagaze iruhande. Barimo barakaraba intoki, bigaragara yuko ari ukugira ngo bongere isuku kandi bakaze ingamba zo kwirinda icyorezo.

Imitako itandukanye, aho bigaragara yuko ikoze neza cyane ryose kandi iryoheye ijisho kuyireba. Bigaragara yuko yakozwe n'abanyarwanda, aho bino bihangano twabyita made in Rwanda. Tugenekereje mu kinyarwanda ni ibihangano by'ubugeni byakorewe mu Rwanda.